Imbere yacu turi kubona imiti iri ahantu habugenewe mu kabati kayo, iyi miti rero ikaba ari imiti yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo magufi n'iyamaremare, mu gihe rero itungo ryawe ryagize ikibazo ushaka uri kwifashisha iyi miti uri kubona imbere yawe.

lmbere yacu turi kubona abagabo babiri bari ahantu heza ,mu murambi cyangwa se mu mukenke, umugabo uri imbere akaba ashoreye igare cyangwa se asunitse igare ,ryikoreye igitiyo n'inkwi. lnyuma ye hari undi mugabo usa nk'aho wari uri kumufasha ,akaba afite umupanga mu kuboko kw'ibumoso.

Umugore ufite akamwenyu ku maso, iburyo bwe hari ikirangantego k'igihugu cy'u Rwanda, ibumoso bwe hari n'idarapo ry'ubumwe bw'u Burayi, akaba ari kwiga hari kwigwa ku ngaruka mbi za covid cumi n'ikenda ku rugaga rw'ikiciro cy'agaciro, mu buhinzi bw'indabo, imbuto n'imboga n'umuryango w'abacuruzi mu Rwanda.

Urubyiruko rwiganjemo abakobwa, bambaye imipira y'ubururu, bakaba bari ahantu mu murima uriho ibyatsi bitandukanye ndetse n'ibiti hirya yabo.